Umuhanda wa kabiririmbo, abantu babiri bicaye mu modoka, hakuno no hakurya hakaba hari ibitaka n'ibyatsi bikeya, hakaba icyapa cya Radiyanti yacu bavuga ko turi kumwe, icyerekezo cy'inzozi zawe.

Iyi foto iratwereka abantu batatu, umwe akaba aryamye undi akaba ari ku mukora ku itama, undi nawe akaba amuhangaze imbere akaba ari uburyo bwo kwivuza na radiyanti.

Umuryango w'abantu bane umugabo n'umugore n'abana babiri icyapa cya radiyanti yacu bakaba bicaye begeranye bafatanye mu mbavu umugabo afasha umwana mu gatuza ndetse agafata n'umugore mu mbavu.

Icyapa kirimo ubwishingizi bw'inkoko, hariho udushwi, inkoko nini, amasake, inkoko zitera amagi, hakaba handitseho ko ari radiyanti yishingira inkoko.

Icyapa kinini cyane, kiriho umugabo wifashe neza, kiriho amagambo avuga ngo" my mother-in-law would move to Mars."

Icyapa cyanditse riyife inshuwarensi hakaba hariho abantu batatu, harimo umwana mo hagati bakaba bitwikira umutaka ufite ibara ry'umuhondo, icyapa kikaba kiri mu mabara y'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'umweru.

Icyapa cya Ecobank cyanditsweho de panafrica bank kandi ikirangantego cyabo kikaba kiri mu ibara ry'ubururu rirambitse kurindi barara ry'umweru.

Icyumba cy'ubucuruzi, iki cyumba hakaba harimo amakaro, hakaba hamanitsemo isharupe z'ubwoko butandukanye kandi zikaba ari nyinshi.

Inzu y'ubucuruzi, ibicuruzwa bitandukanye, umubyeyi wicaye ari guseka wambaye isengeri y'umweru, uteze agatambaro k'umweru mu mutwe akaba yicaye ahantu acururiza.

Inyubako y'ubucuruzi ikaba icururizwamo amakoti n'amapantaro, hakaba harimo amakote yiganjemo amabara y'ubururu, hasi hakaba harimo amakaro, hejuru hakaba harimo parafo ndetse amatara akaba ari kwaka.

Inyubako inyubako iririmo imbaho zitandukanye hakaba muri tiriyangere hakaba ari izikoze ari izikoze mutubati imyubako irimo sima hakaba hari akandi kantu gashashe hasi karimo amabara y'umutuku y'ibizeru.

Imodoka eshatu ziparitse, inyuma yazo hakaba hari abantu, zikaba ziparitse mu nzu ku makaro, hakaba bari n'amadirishya.

Parikingi y'amapa iriho imodoka enye, inzu hakurya iteye karabasasa, hari korutire y'amabati n'insina hakaba hari n'ibiti hakurya y'insina.

Abantu bahagaze inyuma y'imodoka bakaba bafite icyapa mu ntoki cyanitseho a na ba na ga, ipironi inyuma y'itente ri hari ndetse n'ibiti ku muhanda.

Umuhanda w'ibitaka hakurya hari inzu ya etaje ifite korutire y'amatafari ndetse n'ibyuma, ikaba iteyeho ibiti bitandukanye, abagabo babiri bari kureba mu cyerekezo kimwe.

Inyubako y'amabati ahagaze hasi hari sima ha akarimo abantu babiri umwe yambaye umupira w'umukara n'pantaro y'ikati kandi yamba ishati y'umweru hakaba hari imodoka ari kumwereka ko bayite irangi.

Imodoka iparitse, imodoka ikaba ifite irangi ry'umukara, inyuma yayo hakaba hari umurongo w'umukara n'umweru ndetse hakaba hari ubusitani bw'indabo, hakurya yayo hakaba hari korutire uruzitiro rw'ibyuma, hakaba hicaye abantu ndetse hirya hakaba hari n'ibiti birebire.

Imodoka ziparitse ahantu hamwe kandi zisa ziri muri korotire y'igipangu, inyuma y'iki gipangu hakaba hari ibiti binini ndetse ruguru y'izo modoka hakaba hari ibindi biti bibiri.

Inyubako irimo amakara ikaba harimo umuntu wicaye ugaragaza itako, hakaba harimo imodoka zitandukanye, hakaba hari ameza ateretseho amazi meza akaba afite ibara ry'umukara ndetse n'ikirahure.

Igiceri cya makumyabiri uruhande rumwe kiriho ikirangantego hakaba ariho n'umubare wa venti ku rundi ruhande rureho igitoki gifiteho n'amakoma.

Amacupa ya jibu ari mu muryango ukinze, hakaba hari undi muryango ukinguye, hirya hakaba hari icyapa cyanditseho amata y'i Nyanza ashushanyijeho inka.

Hari ameza ateretseho akantu kameze nk'agakombe hejuru gashyinzemo utuntu ,akaba ari ameza ari munzu hagati y'amatafari akoteye n'ameza y'icyuma.

Ikiganza gifashe keke mu ntoki igikombe cy'ikirahure kirimo amata kiri ku meza ikaramu irambitse kumeza munsi y'ameza hakaba hateretsemo isahani.

Indobo zitandukanye, hakaba hari iyipfunduye irimo amandazi abiri ndetse n'irushe yo gufatisha aya mandazi hakurya hakaba hari inzu y'amatafari ahiye ikaba iteretse ku meza.

Icyapa cy'amata y'i Nyanza gishushanyijeho inka, gishushanyijeho ububido, kikaba kiri hejuru kuri purafo, umuryango ukaba ukinguye ufite ibara ry'ubururu.

Hari isahani iriho amandazi menshi, hari irindazi risatuyemo ibipande bibiri, bikaba biteretse hejuru y'agatambaro gafite amabara atandukanye, harimo ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse na shokora n'umweru.

Aha bari kutwereka umumama wicaye hanze y'urugi mo imbere hakaba harimo icyuma k'inyange ndetse n'amazi ya nire akaba afite icyayi kiri mu gikombe imbere ye. Ndetse hirya ye hari icupa rinini rya kokakora, hari n'ikindi gikombe kiri imbere ye akaba afite terefone mu ntoki.

Iduka rucuruza imyenda itandukanye, akaba ari imyenda ikorwa mu bitenge, akaba ari imyenda ikorerwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari imyambaro y'abagore, abagabo abana, abasore , abadamu ndetse n'abagore.

Umukobwa wambaye rinete akaba afite telefone mu ntuki akaba yambaye ishati y'umweru akaba ari ku cyapa cya kobi pabulike komforensi hakaba handitse ngo twiziganire dutegurizwe dutere imbere.

umuntu ufite terefoni mu ntoki hari apurikasiyo ari gukoresha akaba asize verine, akaba yambaye nk'umukufi ku kaboko.

Umwana uryamye ku gipupe akaba asutse hakaba hari amagambo yanditse ngo fete vo do u orofinate viya manigaramu.

Iratwereka abantu bahagaze, buri wese ari kuri terefoni, hari uwambaye umupira wanditseho Rwanda, hari undi wambaye ingofero y'umuhondo, hari n'abandi babiri bahagararanye.

Telefone ebyiri imwe irimo porogaramu zitandukanye, hari irimo porogaramu irimo imibare, hari indi irimo amafaranga ndetse n'ijambo rya supeshorayiti.

Umuntu wasetse, ufite telefone iririmo apurikasiyo ya sipini, tukabonamo n'amagambo yanditse ngo meke onorayini, akaba yambaye ishati y'a karokaro, ndetse mo imbere hakaba hari umupira w'umweru, hirya hakaba hari ubusitani bw'indabo.

Mashine kompiyuta isa nk'iriho rese y'umweru yanditse ku bumoso bwaho, akarangantego ka repubulika y'u Rwanda ndetse no mu magambo, ibuburyo hakaba hari akandi ka Rwanda reveni otoriti n'amagambo abisobanura ku ruhande, hepfo hakaba hari n'aho umuntu ashobora gusinya n'izina ry'umuntu.

Amadolari menshi nka ma ijana harimo isura y'umuntu ufite imisatsi idefurije umuzungu hakaba hari n'izindi mpapuro biriho ikigero cy'amabara atandukanye.

Icyapa cya banke nkuru y'u Rwanda kiriho uko ibiciro by'amadolari bigenda bimeze, harimo amayero, amapawundi, amashilingi yo muri Kenya ndetse n'ayo muri Uganda.

Ikiganza gifite amafaranga y'amadolari mu ntoki, umuntu akaba yambaye ikote ry'umukara mu imbere ishati y'umweru. Hakaba hari icyapa cyerekana yuko bavunja amafaranga kiri hirya ye.

Amadolari menshi ar’ahantu hamwe, afungiye hamwe hakaba har’ibiganza biri kubara amadolari, ayo madolari akaba avanguye.

Amafaranga menshi, azingiye hamwe, arambitse ahantu hamwe, hakaba hari ayafunze ari menshi andi ari makeya, andi akaba aringaniye, andi akaba ari amayero ayandi nayo akaba ari amadorari.

Turahabona abantu batandukanye, hakaba harimo uri kwishima mu mutwe, abandi bakaba bareba ku ruhande, bigaragara yuko bari bize cyane. Bari mu nyubako yitwa a emu si.

Inyubako ya etaje ikaba ikorerwamo ibintu bitandukanye, hakaba hari icyapa cyanditse fiyuca foregisi egisicenji, cyangwa se mani taransifa. Kikaba gifite amabara y'umukara n'umweru, umutuku n'umuhondo.

Iyi foto iratwereka icyapa cya wesiti yuniyoni giteye mu busitani burimo indabo zitandukanye, bakaba batwereka yuko bavunja amafaranga, hariho n'amafoto y'amadorari.

Ifoto iragaragaza etaje yanditseho Ineza, hirya hakagaragara ibiti, biri ku muhanda.

Inyubako ya etaje ifite icyapa kinini cyane giteye kitwa rezerivu peyi, hakurya inyuma yacyo hakaba hari ubusitani busa neza cyanendetse hakaba hateye n'ururabo rw'umukindo.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka z'ibikamyo, umumotari utwaye moto, intebe z'imbaho n'imeza y'imbaho, igare hejuru y'umugongozi. ipoto iriho insinga zijya ahantu hatandukanye, n'inyubako z'inzu.

Imashini zibaza, ameza bari kubaza, umuntu w'unamye uri gupima imashini nyinshi zitandukanye n'izifunguye imiryango n'ibirahure.

Intebe z'imbaho, ameza y'imbaho afiteho ikirahure hejuru, ibirahure byubitseho, amakaro, esikariye z'amakaro ndetse n'inzu iteye irange ry'umweru.

Inzu yubakishije imbaho, isakaje amabati, ikaba ifite amadirishya y'imbaho, hakaba hari intebe zibaje mu biti ziri inyuma yayo, pasiparume, akabati gahagaze, gafunze.

Inyubako irimo ibikoresho bikoreshejwe imbaho; intebe, ameza, bikaba bitetse ahantu hamwe biteguye neza. Hakaba hasizemo irangi ry'icyatsi ndetse amaguru yako akaba ari umukara.

Intebe zitandukanye ziri mu nyubako utubati ndetse iyi nyubako ikaba ifite inkingi zisize amabara y'umweru hakaba hagiye harimo intebe nazo zisize amabara atandukanye.

Pisine, amapave, ibiti ndetse n'amazu hakurya y'inzu yitwa wasisi bake wid abani, uburiri bwo kuryamaho nabwo buri picine.

Hagati aha batwereka inyubako itandukanye n'izi nyubako, hakaba hari ubusitani bw'indabo, munsi yaho hakaba hari icyapa cyanditseho Garande Ligasi .

Picine izengurutsweho n'ibyuma hakurya yayo hakaba hari indabo, hakurya y'izo ndabo hakaba hateye ishyamba ndetse, hejuru yiyo picine hakaba hari ahandi hateye udutebe twiza two kwicaraho.

inyubako ya etaje pisine hakaba hari n'intebe isakaye n'umutaka, imiryango ikinze ubusitani bw'indabo uburiri bwo kuryamaho ndetse hasakaye.

Inyubako ya etaje yanditseho rebanoni hoteri, ikaba ifite umuryango ukinguye, hagati hakaba haciyemo umurongo ugiye ufite ubusitani bwiza, iyo nyubako ikaba isize amarangi y'umuhondo n'ubururu.

Inyubako ya etaje ifite pisine intebe zo kwicararaho ku ruhande, hakaba hari umuntu uri muri iyo nyubako, hakurya hakaba hari iyindi nyubako ya etaje hejuru hakaba hari intebe zo kwicaraho n'ubusitani, bwa pasiparume iruhande.

Inyubako ya etaje, pisine imbere yayo, intebe, imitaka iteyeho udutebe, ibiti ndetse na korotire biri hafi ahongaho.

Inyubako y'amakaro, hakaba hari umuntu uri gutambuka, ari kugenda yegira abantu babiri bicaye, iyo nyubako ikaba ifiteho imitako, ikaba isize irangi ry'irose.

Inyubako ndende cyane ya etaje, isize irange rya bege ndetse n'irindi bara, ikaba ifiteho inkingi enye, ziri ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo, inyubako ya etaje akaba ari nijoro bacanye amatara, hakaba hari ibiti birebire mu muhanda hakaba hari imodoka hakurya hakaba abantu bari gutambuka, hakaba n'imodoka iri kuzamuka icanye matara.

Pasiparumu, irimo ibiti bikoze mu mitako, hakaba harimo ahakoze umuvure, hirya hari inyubako ifite ubusitani bw'indabo bwiza, ikaba isize irangi, ndetse hakaba hariho n'indabo kuri iyi nyubako.

Umuhanda wa kaburimbo, inyubako za etaje ziteganye impande y'uwo muhanda, ndetse ubusitani burikunzu yitwa Buritamu n'ibiti biri hakurya ku yindi nzu ya etaje, umumotari nawe uri ku hanyura.

Inyubako ifite imiryango ikinguye, hakaba harimo abantu bari gusohoka abandi bakaba bari kwinjira, abahungu babiri bambaye amaji ya Emutiyene, indabo z'umukindo hafi y'umuryango, hakaba hari igare riparitse ku muryango, hakaba ari n'umuntu wambaye umupira w'umutuku.

Ibirahure bibonerana byakubisweho n'umurasire ,icyapa cya fonesi ofu Rwanda asiranse Kampani rimitedi hakaba hariho ikirangantego k' inuma.

Kampani imwe irimo abakozi bambaye imyenda yiganjemo umukara hakaba arimo kuruhande rwibumoso n'umuzungu ufite imisatsi ijya gusa shokora hasi ahandi ari umukara imbere ya buri wese hari mashine ya raputopu akapa k'ubururu kegetseho amagambo y'umweru n'inyuma yabo ku kindi cyapa cy'umukara ndetse n'amagambo y'ubururu n'umweru.

Abantu benshi bari ahantu hamwe bari gusohoka ahantu hasa nko muri cave ya etage imbere yabo hari umugabo wambaye ingofero abandi bakaba bari inyuma.

Akazu kanditseho Beka kariho ibyapa bitandukanye, hakaba mu imbere harimo amakaro, hirya yaho hakaba hari inzu no hino hakaba hari inzu.

Inyubako irimo amakaro, ikaba irimo akameza gasize irange ry'umweru, kuri ako kameza hakaba hateretseho imashini, hakaba imbere yabo hari intebe y'umukara, hari umugabo uhagaze wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'imweru, inyuma ye hakaba hari icyapa cyanditse mu magambo y'ubururu.

Mu nyubako mo imbere harimo amakaro, harimo intebe, buri muntu wese agiye afite akantu ke yicaramo, akaba ari inyubako nini cyane, hakaba harimo za televiziyo nyinshi zitandukanye hakaba hagiye harimo abantu bakora ibitandukanye.

Abantu babiri bari guseka bafite icyapa mu ntoki cyanditseho openi hepfo yabo hakaba hari ekwiti umwa akaba yambaye umupira wa move hakaba n'andi magambo yanditsetseho ngo getini inshuwaredi lonidibayi.

Iyi foto iratwereka icyapa cya I&M bank kigaragaza umugabo ufite inote za bitanu mu ntoki, hakaba hari ijambo rivuga ngo tugane tuguhe ayagera ku bihumbi magana atanu.

Umuhanda wa kaburimbo, umugunguzi uri hakurya, amagambo ari mu ibara ry'ubururu yandika ngo saba inguzanyo, iga usohoze umugambi wawe abantu babiri bari kumwe ndetse n'imodoka.

Inyubako bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba harimo imboga, imbuto, ibinyampeke, hakaba hari umugore ufasha ibicuruzwa mu ntoki, hakaba hari n'undi mugabo wicaye hirya.

Ibicuruzwa biri ahantu hamwe, imineke, inyanya, ubunyobwa, amashaza, ibishyimbo biri mu mufuka, hakaba hari umuntu uri gushyira amashaza ku ngemeri, akaba ari gutunga urutoki agakapa kari hasi, hirya hakaba hari iyindi mifuka.

Imboga zitandukanye harimo pavuro, ibibiringanya, porosheti, seleri, inyanya ndetse n'ibindi bitandukanye byose bikaba biri ahantu hamwe.

Isoko risakaje amabati, imodoka zitandukanye ziparitse hanze, abantu benshi bari hanze, abamotari batwaye abagenzi, abari gucuruza inyanya, karoti ndetse n'ibindi.

Ubucuruzi butandukanye bw'imyenda y'ibitenge hakaba hari intebe y'umweru aho akaba ari umuntu uhagaze wambaye ishati ya bege n'ipantaro y'umukara n'undi muntu uhagaze wambaye ikanzu y'igitenge ndetse n'ikote.

Isoko ry'imbuto ,amaronji ,avoka ,inyanya ,imineke ,ibijumba ndetse n'ibitoki. Hakaba hari umuntu uri gushyira avoka mu gisorori gisa umweru, hakaba n'undi uhagaze imbere y'amaronji.

Abantu bari gucuruza imbuto, umukobwa n'umusore, umukobwa yambaye umupira w'umutuku n'itabiriye umusore yambaye n'itaburiye, umukobwa akaba afite imashini mu ntoki.

Indobo irimo ibiraha, ibase irimo akajerekani iteretse ku gatabureti. Umuntu wunamye wambaye ishashi uri gukora mu biraha, abagore bamuhagaze imbere, ndetse n'abandi bantu batandukanye.

Ingoma, ibisabo, inkoko, ibiseke, umuntu wambaye umwenda w'i roze abandi barimo imbere, inzugi zirambitse na se zegeranye na sima.

Hari umuntu wicaye mu ibase uri guharura amafi akaba hari amabase menshi arimo amafi hakurya hakaba hari ngorofani akaba ateretse hejuru y'ibibaho, akaba ari amafi menshi ari mu ibase y'icyatsi kibisi.

Ndende cyane ya etaje, zikaba ari inyubako nyinshi utabasha kumenya umubare wazo zifite amatara manini cyane.

Abantu bari ku murongo ndetse hari umwe ushyize akaguru kuri esikariye, hakurya hari ubucuruzi bw'inkweto zitandukanye, hari umuntu wicaye ku ntebe hepfo hari umuryango ukinguye ukomejemo hari tiripuregisi zifunze.

Inyubako ya etaje irimo abantu benshi batandukanye imodoka ya polisi umuntu uyihagaze imbere wambaye agapfukamunwa, izindi modoka hari abantu babiri begamye ku modoka hari abapolisi bari kwinjira mu muryango bari kumwe n'umugabo.

Isoko ry'iribwa bitandukanye ibitoki, imboga, karoti bitunguru, inoryi, pavuro inyanya abantu benshi batandukanye iko rikaba rishakaje amabati hakaba hagiye harimo abantu bagurisha nabaje guhaha.

Umuhanda wa kaburimbo hari imodoka ziri kugenda hari n'izihagaze hino mu muhanda wa nyayamaguru hakaba hari akazu ka eyateli gakinze hakaba hari umuntu wicaye hafi yaho.

Akazu ka emutiyene karimo abantu babiri kakaba gafunguye, imiryango n'amadirishya hirya hakaba hari abandi bantu hakaba hari n'igiti kinini, inyuma hakaba hakaba hari inzu isize umucanga n'irangi.

Akazu ka eyateri n'akazi ka MTN,akazu ka eyateri kakaba kicayemo umuntu wambaye umupira w'umutuku urimo amabara giri, akazu ka MTN kakaba karimo abantu babiri, undi akaba ahagaze inyuma ya ko, hirya yaho hakaba hari inyubako y'amatafari

Icyapa cya MTN kivuga ko tugomba kwishura na momo, kikaba cyanditse amagambo avuga ngo Getiponge intapurayizi, gifite kode ndetse n'andi magambo.

Umuntu uri gushyira amafaranga mu giseke muri MTN wicaye yambaye ijire uri guseka umuzungu nawe wambaye badge ya MTN uri kumwenyura, hakurya ku gikuta hakaba har’ibintu bya MTN.

Inyubako irimo abantu babiri, harimo umuntu wambaye umupira wa MTN, hari n'undi ufite terefoni mu ntoki, hakaba harimo imashini ndetse no ku gikuta hakaba hariho icyapa cya MTN.

Abantu babiri bari kumwe, umwe ari gukanda terefone, undi afite momo peyi mu ntoki, firigo ishushanyijeho koka kora irimo ibinyobwa bitandukanye.

Akazu ka emutiyene kicayemo umuntu usutse, hakurya hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umuhondo hakaba hari undi uri gutambuka wambaye ishati y'icyatsi, hakurya hakaba hari indabo n'imodoka ziparitse hafi yaho.

Umuhanda wa kaburimbo abamotari, abagenzi bos bambaye udupfukamunwa tw'umuhondo, umugenzi akaba ahagaze arigukan kuri telefone yambaye umupira w'umuhondo n'undi akaba ahagaze ari gukanda kuri telefone hakurya hakurya hakaba hari ibiti n'ibitoki.

Abantu bambaye imyenda ya MTN, bari mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo, undi muntu wambaye ishati y'umuhondo n'umukara wunamye uri kureba ku meza, hakaba hari uwuri kumwereka ku cyapa cya MTN.

Abantu bari hanze ari batatu, bakaba bahagaze ahantu hamwe, umwe akaba yambaye umupira w'umutuku, undi akaba yambaye umupira uriho ibirango bya MTN, umwe akaba bafite telefone mu ntoki, undi akaba afite agatabo kariho ibirango bya MTN.

Umugabo wambaye kasike, wambaye ijire ifite amabara y'ubururu n'umweru, ufite ahantu ari kubika handitseho KASHA hafite irangi ry'umuhondo, indabo ziri ruguru ye, ibiti ndetse n'inyubako.

Icyapa cya Kigali appline kikaba kiriho ibiganza bigiye gufata telefoni mu ntoki, hakaba hariho laputopu ndetse hakaba hariho na serivisi batanga hari umugabo uri kwiruka ushushanya.

Inyubako ya etage icyapa cyanditseho Gisimenti ameza ndetse n'akabati.

Ifoto iratwereka imodoka iri muri parikingi, hirya yiyo modoka hakaba hari amavaze arimo indabo, iyi modoka ikaba ifite icyapa cyanditseho amagambo atandukanye, harimo iryanditseho ngo migoro.

Icyapa kiriho ibicuruzwa bitandukanye harimo amasakoreshe, amakote ndetse n' ibindi hakaba hagiye hariho n'ibiciro byabyo. Umukobwa umutwe ugaragara igice.

Umuntu wambaye itaburiya uhetse ikintu ku rutugu, wambaye ingofero y'umukara hakaba hariho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ndetse akaba ari kwinjira mu muryango ukinguye.

Inyubako ya etaje icanye itara, ifite umuryango munini cyane ufunguye n'idirishya rifunze, ikaba ifite amakaro y'irangi ry'umukara ndetse n'umweru. Iyi nzu ikaba isize irangi ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Icyumba kirimo utubati dutandukanye, utwo tubati hakaba hagiye hariho udutiruwari, hakaba hari ibirahuri bikinze, hakaba hari ndetse na purafo, amatara akaba ari kwaka, iyo nzu ikaba irimo amakaro.

Ifoto iratwereka mu nzu mu imbere, ikatwereka umuntu uhagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, ikatwereka intebe ndetse ikatwereka n'akabati.

Inyubako igaragara igice, hakaba hari idirishya ry'ibirahuri rikinze, imbere y'iryo dirishya hakaba hari indi nyubako yubakishije amatafari ahiye, akaba hari ibase iteretse hasi irimo imyenda ,inyuma hakaba hari irangi rya shokora.

Inyubako ifite pasiparume zirimo amapave, amavaze y'indabo hejuru, ibiti hanze, hakurya izindi nyubako ndetse na jaride.

Abantu babiri bahagaze umukobwa wambaye ikanzu irimo amabara n'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, bakaba bahagaze muri pasiparumu, hakurya hakaba hari inzu ikaba iteyeho ururabyo rw'umukindo.

Inyubako ya etaje ikaba ifiteho amabara atandukanye umuryango wayo ukaba ukinguye, ikaba ifite indabo ziteye ku nyubako yo hasi ndetse no ku yo hejuru, hakaba hari korutire y'igipangu giteye irange hakurya naho hakaba hari inyubako.

Inyubako zitandukanye ifite korotire y'ibyuma bisize irange ry'umukara, hakurya hakaba inzu z'akadasiteri ziri ku murongo, hejuru tukaba tubona ibicu by'umweru ndetse n'ubururu hakaba imbere yayo ari umuhanda

Turahabona urugi rukinguye igice tukabona amaka y'umukara tukabona idirishya imbere y'urwo rugi hakaba hari muri tuwarete.

Inyubako ya etaje ifite inzugi n'amadirishya nisize irangi ry'umukara; hakaba hari umuntu uhagaze hasi wambaye ikoti ry'umukara, n'ipantaro ya kacyi, n'ishati y'umweru, wambaye ingofero.

Umuhanda uri hagati y'amazu inzu imwe ifite korutire y'amatafari ahiye, indi isize amarangi hakaba hateyemo pasiparume ndetse mo hagati hakabamo utubuye hakurya hakaba hari inzu ya kadasiteri.

Inzu irimo amakara imiryango ifunguye, ikaba ifite ravabo y'ahantu habiri amadirishya yayo akaba afunze ikaba isize irangi ry'umweru.

Inzu ya etaje, isize rangi ry'umweru, ifite imiryango ikinguye yo hejuru; iyo hasi ikaba ifunze; hakaba hari pasiparume iteyemo indabo; igiti cy'umukindo na korutire y'amatafari ahiye ndetse n'indi etaje hejuru yayo.

Inyubako ya etaje isizeho amabara y'umutuku ndetse n'indi range, ikaba ifite indabo ku mpande, ikaba ifite amapave hakaba haciyemo imirongo y'ibara ry'umutuku.

Inzu ya etage ifite ibyuma ku mpande bisize irangi ry'umweru, ikaba ifite esikariye z'amakaro, umuryango wayo ukaba ukinze, hejuru yayo hakaba hari inzu ya karabasansi y'umukara ifite ibigega bitatu hejuru, hirya hakaba hari igiti.

Inzu ya etaje ifite imiryango n'amadirishya bitandukanye, amapave arimo amabara, hakurya hakaba hari ubusitani bwindabo.

Inzu nziza cyane yaitage ku ruhande rw'iyo nzu haridabo akaba hari amababi we akaba arijambo ryanditseho ngo Kigali Kimironko.

Inzu nziza ifite ubusitani bwa pasiparume, igipangu gifite korutire y' amatafari ahiye; imbere yaho hakaba hicaye umuntu hakaba hashinzemo n'igiti kirekire.

Bari kutwereka inzu ya kadasiteri ifite irange ry'amara y'ubururu n'umweru, ikaba ifite ubusitani bwiza ndetse na buruke sima zipavomye ndetse hakurya hakaba hari korutire ifitemo igiti.

Inzu y'ibirahure ifite umuryango ukinguye isize irangi rya giri, muri iyo nzu hakaba harimo amakaro ashashe hasi ndetse n'andi y'igice ashashe ku rukuta hakamo interite y'umugozi.

Inyubako nini icururizwamo imyenda itandukanye; umuntu wicaye iruhande rw'inkingi; hakurya no hakuno hose akaba ari imyenda.

Umuntu uhagaze uhetse ibage wambaye ingofero y'umutuku, wambaye ipantaro y'umweru, ufashe ku mupira usa umweru, munsi yaho hakaba hari amapantaro, no hejuru hari imipira y'ingofero, inkweto zikaba ziri imbere ye.

Ni ibicuruzwa bitandukanye harimo amafu atandukanye, harimo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye byose bikaba bigiye biterekeranyije ku murongo bikaba biri mu mifuka itandukanye, hakurya hakaba hari inzu idekoye neza.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye hakaba harimo amaji, amazi, haba hari umukobwa uhagaze wambaye ipantaro uri guseka ndetse hakaba harimo n'amabiswi n'amashokora.

Umuryango w'ubucuruzi urimo amakaro, ibicuruzwa bitandukanye: amarineti, amaparufe, inkweto, udukapu turi ku ruhande, amatise, amashakoshi ndetse n'ibindi.

Duhere ko twereka abantu bari mu iduka ritandukanye , hari abahagaze, hari abari kuvugana, hari uwicaye, hari n'uri kujyenda, hari n'abari guhaha.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bucuruza amakote, hakaba hahagaze umuntu uri kuri telefoni, hakaba hari undi wifashe, abandi bakaba bari gukora mu myenda, abandi bakaba barimo barareba ayo makote.

Mu nyubako mo imbere hakaba hari abantu bambaye imipira y'umuhondo, hakaba hari abandi bicaye ku meza, hakaba hari vase irimo ururabo, hakaba hari n'indi ntebe yicaye, hakaba hari umuryango ufunguye ndetse n'indi mitako itandukanye.

Mu nyubako mo imbere isize irangi ry'umweru, hakaba Harimo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba hari umuntu uhagaze, hakaba hari abandi bantu bahagaze iruhande rwe. Imiryango ikaba ikinguye.

Icyapa cyanditseho Rwanda sosho sekiriti bodi, kikaba cyandikishije mu mabara y'umweru n'ubururu, kikaba gifiteho utuntu tumeze nk'izuba ku mpande turi mu ibara ry'umuhondo n'umweru.

Umuntu ufite mituweri desante mu ntoki, wambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo n'icyatsi, akaba yambaye agapfukamunwa, akaba ayifashe mu maboko yose ari kugaragaza icyapa cya Ara Esesibi.

Icyumba kirimo abantu batatu hakaba harimo akabati gakoze mu biti, hakaba hari umuntu wicaye ku meza, hari amakayi hakaba hari undi mu mama witeye igitengete, uteze igitambaro cy'umutuku, uhagaze imbere ye.

Icyapa cya Rwanda sosho sekiriti bodi, hakaba hari amabara y'umweru, arongoreye imisanzu yawe muri RSSB kikaba kirimo n'ibara y'ubururu umuhondo ndetse n'umweru.

Icyapa kinini cyanditseho Simba supa maketi. Ubusitani bw'indabo, inzu y'etage, imodoka iri inyuma y'icyapa, umuntu uri imbere y'icyapa, ibiti by'ubusitani biri hakurya y'icyapa.

Ibicuruzwa bitandukanye amaji, amaketo, amazi, umuntu uvuye guhaha wambaye imyenda y'umukara, hakaba hari n'imitako, televiziyo ndetse n'abandi bantu bari guhaha.

Abantu bari gucuruza hari uteruye amavuta iduka rinini cyane ry'ibicuruzwa bitandukanye harimo kurogati, amabombo, amashokora, mayonezi, marigarine ndetse n'ibindi.

Abantu bahagaze, ibicuruzwa bitandukanye, imashini ku meza, hakaba hari umuntu uri gukora mu ishashi undi akaba ari gukanda kuri telefonete afite kuteri mu matwi.

Uyu mwana wicaye, imbere ye hari tereviziyo, hari ibikinisho, yicaye muri saro iwabo, imiryango ikaba ikinze inyuma hakaba hari undi muntu.

Umuntu uri mu iduka ritandukanye, akaba ari gukurura ibyo yabuze, inyuma hakaba hari abandi bantu, hepfo na ruguru hakaba hari ibicuruzwa bitandukanye, amashokora, amaji, amabiswi ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibintu bijyanye n'ibyo kunywa, hakaba harimo amafirigo atandukanye, hakaba hari umukobwa uhagaze ufashe ku icupa.

Ifoto itwereka umuntu wicaye wambaye itaburiya ya shokora, imbere ye hari ibiribwa bitandukanye hakaba hari n'akandi kantu k'umutuku kamuri iruhande.

Iduka ririmo ibicuruzwa by'imboga, umuntu uhagaze ufite akantu ko guhahiramo karimo indabo, harimo amashu, pinari, shufureri ndetse n'ibindi.

Iduka ririmo ibicuruzwa bijyanye n'ibyokurya harimo: imbuto, pome, ama ji, amashokora, buri cyose kikaba kigiye kiri mu kameza kacyo.

Umuntu uhagaze hakaba hari undi uhagaraze imbere wambaye ingofero y'umukara ndetse inyuma yo hejuru hakaba hari televiziyo irimo umukobwa ndetse n'ibindi birimo ibikombe.

Iduka rinini cyane ririmo ibintu byinshi bitandukanye harimo amaji amazi amatama amabiswi amashokora ndetse n'ibindi, umuntu uri gukurura vaisi uri guhaha wambaye imyenda y'imikara.